Abantu batandukanye, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bahagaze imbere y'akazu k'amazi, iruhande rwabo hari ijerekani nyinshi zifite ibara rijya gusa umuhondo.

Ni umugabo wambaye ikote n'ishati y'umweru n'amadarubindi ku maso, iruhande rwiwe hari intebe ebyiri z'umweru, iruhande rwazo hari utumeze duto duteretseho amacupa ndetse n'indangururamajwi.

Abantu, abo bantu ni batatu barahagaze bambaye imyambaro y'akazi, babiri muri bo bambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu n'aho undi umwe yambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru, bari kugaragara igice cyo hejuru gusa, bose bambaye udupfukamunwa.

Abantu benshi, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, barahagaze, abenshi muri bo bambaye imipira y'amaboko magufi, ifite ibara ry'ubururu bwerurutse, hagati yabo hari ameza aryamyeho uruhinja.

Abantu benshi bambaye amataburiya asa, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ipantaro n'ikote byo mu ibara ry'umukara. yambaye amadarubindi ku maso, afashe ku rutugu babiri begeranye na we.

Umuntu, uwo muntu ni umwana muto w'umukobwa, arahagaze, ari guseka yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, imbere ye hari indobo ndetse n'ibase, indobo ifite ibara ry'icyatsi kibisi naho ibase ifite ibara ry'icyatsi cyerurutse, ari gukaraba intoki.

Abantu babiri, abo bantu ni abana bato, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye bari ku ivomero, umwe ahagaze hejuru y'ivomero na ho undi ahagaze hasi, afite akajerekani ari kuvoma, inyuma yabo hari abandi bantu batagaragara neza.

Abantu; muri abo bantu harimo abagore ndetse n'umwana muto bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye; umwana yambaye ingofero mu mutwe yambaye n'umupira w'amaboko magufi; umwe muri abo bagore afite ikaramu mu ntoki ndetse n'ikayi.

Umuntu uwo muntu ni umwana muto w'umukobwa arunamye yambaye impuzangano y'ishuri ifite amabara agiye atandukanye, yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara rijya gusa umuhondo ndetse n'ijipo ifite ibara rijya gusa ikigina ari gukaraba intoki.

Abantu; abo bantu n' abana bato b'abanyeshuri harimo abakobwa n'abahungu barahagaze bambaye impuzankano y'ishuri ifite ibara rya kacye bari kw'ivomero, imbere yabo hari indobo z'ifite ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi muri abo bantu harimo abagabo abagore ndetse n'abana bato, bambaye imyambaro ifite amabaragi atandukanye bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze iruhande rwabo hari injerekani zifite amabaragi atandukanye.

Umuntu uwo muntu ni umugabo ari guseka yambaye ishati y'amaboko magufi ifite amabara agiye atandukanye, yambaye n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, imbere ye hari ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, inyuma ye kandi hari ibyatsi.

Abantu benshi batandukanye muri abo bantu higanjemo abagore ndetse n'abana bato abenshi muri bo baricaye abandi barahagaze bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umwe muri bo ni umugabo aricaye yambaye agapfukamunwa yambaye n'umwambaro w'akazi imbere ye hari umugore uteruye mwana.

Abantu benshi batandukanye, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, barahagaze, imbere yabo hateretse ameza atwikirije igitambaro kijya gusa i roza, ariho ibitabo.

Umugore ukinyeye igitenge yiziritse ikindi gisa n'umuhondo kirimo andi mabara asa n'umukara yambaye amataratara inyuma ye hari abana barimo bareba basa nkabafata ifoto.

Abantu batatu muri abo bantu babiri ni abana bato, nkaho undi umwe n'umugore, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bari ku ivomero, umugore afashe ijerekani ifite ibara ry'umuhondo ari kuvoma.

Abantu benshi, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye abenshi muri bo bambaye amakarita y'akazi mu ijosi bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze, inyuma yabo hari icyapa kinini kirimo amashusho cyanditseho n'amagambo.

Abantu batatu, muri abo bantu harimo umugabo, umugore ndetse n'umwana muto, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, baricaye, uwo mugore afite impapuro z'umweru mu ntoki.

Abantu benshi batandukanye, muri abo bantu harimo abagore, abagabo ndetse n'abana bato, bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, abenshi muri bo bafite impapuro mu ntoki.

Abantu abo bantu bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, abenshi muri bo bambaye imipira y'amaboko magufi afite ibara ry'umweru, bamwe muri bo barahagaze abandi baricaye bari munsi y'igiti kirekire.

Abantu benshi batandukanye, muri abo bantu harimo abana bato, abakobwa n'abahungu, harimo kandi abagore n'abagabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bari ku ivomero, abenshi muri bo bafite ibivomesho mu ntoki, harimo injerekani ndetse n'indobo.

Abantu, muri abo bantu harimo abakobwa n'abahungu bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, baricaye bose bambaye udupfukamunwa bambaye n'imipira y'amaboko magufi, iruhande rwabo hari ameza manini atwikije igitambaro cy'umweru ateretseho amacupa y'amazi n'amakaye.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zizengurutse ameza arambuyeho igitambaro cyo mu ibara ry'umukara ateretseho amacupa.

Abantu babiri abo bantu ni abasore bagaragara igice cyo hejuru gusa, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umwe muri bo yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara rijya gusa kake ahetse igikapu.

Abo bantu ni abana batatu bato, barahagaze harimo abahungu n'umukobwa, bambaye impuzankano y'ishuri, ifite amabaragi atandukanye bambaye ishati y'amaboko magufi, ifite ibara ry'umuhondo, bari gukaraba intoki.

Abantu muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye barahagaze, iruhande rwabo hari imifuka myinshi igerekeranye ifite ibara ry'umweru, babiri muri bo batwaranye umufuka mu ntoki.

Abagore batatu bakenyeye ibitenge, bateze n'ibitambaro mu mutwe, imbere yabo hicaye undi mugore wambaye itaburiya y'umweru n'igitambaro cy'umukara mu mutwe, afite ikaramu mu ntoki, inyuma hari ubusitani.

Abo bantu ni abanyeshuri harimo abahungu n'abakobwa bambaye impuzangano y'ishuri ifite ibara rijya gusa kake, bari ku ivomero imbere yabo hateretse indobo zifite ibara rijya gusa umuhondo.

Igisambu kirimo urunyurane rw'abantu, harimo abicaye ndetse n'abahagaze bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ihema ryo mu ibara ry'umweru, inzu, ibendera ndetse n'imodoka.

Abantu batandatu, abo bantu ni abanyeshuri, harimo abakobwa n'abahungu, bahagaze imbere y'ikigega cy'amazi, bafite ibikombe mu ntoki bifite amabara agiye atandukanye.

Abantu benshi muri abo bantu harimo abagore n'abagabo barahagaze, abenshi muri bo bambaye amakarita y'akazi mu ijosi, umwe muri bo ni umugabo yambaye amadarubindi, yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru.

Abantu benshi, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, abenshi muri bo baricaye, bamwe muri bo bafite impapuro z'umweru ndetse n'amakaramu mu ntoki.

Abantu benshi muri abo bantu harimo abagore n'abagabo barahagaze, abenshi muri bo bambaye umwambaro w'akazi ufite ibara rye gusa ubururu bwijimye inyuma yabo hari ibiti.

Abantu, muri abo bantu harimo abagore ndetse n'umwana muto bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bahagaze ku ivomero, babiri muri bo bafashe indobo ifite ibara ry'ubururu bwijimye.

Ibyombo birimo amasahane, ibikombe, n'ibisorori, byanitse kugatara, hanze iruhande rwaho hari intsina, n'urugo rwubakishije imiyenzi, hasi hari uwaziteyemo.

Umuntu, uwo muntu ni umwana w'umuhungu arunamye yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi cyerurutse, yambaye n'ikabutura, uwo mwana ari gukaraba intoki.

Abantu, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye baricaye. Imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro gifite ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru, kuri ayo meza hateretseho amacupa y'amazi.

Abantu, abo bantu ni abagore babiri ndetse n'umwana muto, bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, umwe muri abo bagore aricaye ateze igitambaro kirimo amabarage atandukanye, yambaye umupi w'amaboko magufi ateruye umwana.

Abantu benshi batandukanye muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, abenshi muri bo baricaye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, naho abandi muri bo barahagaze.

Umuntu uwo muntu ni umwana muto w'umuhungu, yambaye imyambaro ifite amabaragi atandukanye, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara rya kake, yambaye n'ikabutura yambaye n'ibirenge ateruye indobo mu ntoki.

Umuntu, uwo muntu ni umwana muto, afite udusaro tw'amabara atandukanye mu mutwe yiganjemo ibara ry'umuhondo n'ibara ry'icyatsi kibisi, yambaye umwambaro w'umweru, bari kumutera urushinge.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'icyatsi kibisi, imbere yabo hari ameza ateretseho udukombe dutoya two mu ibara ry'umweru.

Abantu, muri abo bantu higanjemo abana bato. Bambaye imipira ifite ibara rijya gusa umutuku. Inyuma mu mugongo yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara bicaye hasi.

Abantu, abo bantu ni abana bato babiri, baricaye, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho amagambo, umwe muri abo bana yambaye umupira w'ubudodo, ufite amaboko maremare, amanitse urutoki.

Umuntu, uwo muntu ni umwana w'umukobwa arahagaze yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, yambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara rijya gusa uburu bwerurutse, ndetse n'ijipo ifite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse ari gukaraba.

Abantu batanu, muri abo bantu batanu bane ni abagore, na ho undi umwe ni umugabo, barahagaze. Bose bambaye imipira y'amaboko magufi, ifite ibara ry'ubururu bwerurutse, inyuma yabo hari ibyapa byanditseho amagambo.

Umuntu, uwo muntu ni umugabo ari guseka yambaye ishati y'amaboko magufi irimo amabara menshi atandukanye, yambaye n'ipantaro y'umukara, imbere ye hari injerekani ifite ibara ry'umuhondo inyuma ye kandi hari ibyatsi.

Abana bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bahagaze iruhande rw'iriba rusange, hari n'injerekani yo mu ibara ry'umuhondo amazi ari kuva mu iriba ari kuyimanuka iruhande inyuma yabo hari igisambo.

Abana bambaye impuzangano zigaragara nk'iz'abanyeshuri, bunamye iruhande rwa robina iri kuvamo amazi, basa nk'abari gukaraba intoki, umwe muri bo yambaye amasogisi yo mu ibara ritukura, inyuma yabo hari ibiti.

Abantu batandukanye, muri abo bantu harimo abagabo ndetse n'abana bato, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bahagaze ku ivomero, kuri iryo vomero kandi hateretse ijerekani.

Icyumba kirimo abantu batandukanye. Muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye. Abenshi muri bo baricaye. Bamwe muri abo bantu kandi bafite amakaye mu ntoki.

Abantu babiri, abo bantu ni abana bato, umukobwa n'umuhungu, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umukobwa ari guseka yambaye umupira w'amaboko magufi yambaye n'ijipo irimo amabara atandukanye, afite akajerekani mu ntoki ari kuvoma.

Abantu benshi batandukanye. Abo bantu ni abagore ndetse n'abana bato. Bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye. Abenshi muri bo barahagaze naho abandi baricaye. Imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro gifite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse, harambitseho impapuro ndetse n'icupa ry'amazi.

Abantu babiri, muri abo bantu harimo umugabo ndetse n'umwana ukiri muto. Uwo mugabo yambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara rijya gusa umuhondo. Inyuma ya hari abandi bantu batagaragara neza.

Abantu babiri. Abo bantu ni umugabo n'umugore bahagaze. Bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye. Inyuma yabo hari ibyapa binini byanditseho amagambo, biriho n'amashusho y'abantu batandukanye.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, abenshi muri bo baricaye, imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro gifite amabara abiri harimo ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru.

Abantu abo bantu ni abagore bahagaze bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, imbere yabo hari akazu k'amazi, hateretse n'injerekani zifite amabara agiye atandukanye inyuma yaho kandi hari ibiti.

Abantu, abo bantu ni bane, batatu muri bo ni abakobwa undi umwe n'umuhungu, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, inyuma yabo n'iruhande rwabo, hari ibyapa byanditseho amagambo, biriho n'ibirango bitandukanye.

Abantu, abo bantu ni abagore batatu bose baricaye bambaye imyambaro yiganjemo ibara ry'umweru babiri muri bo bari kwandika bafite n'udutabo mu ntoki dufite ibara risa icyatsi cyerurutse. Imbere yabo hari ameza arambitseho ibitabo.

Abantu benshi. Muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agenda atandukanye. Barahagaze, Inyuma ya hari icyapa kinini cyanditseho amagambo.

Abantu abo bantu ni abagore batatu bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye bari ku ivomero, babiri muri bo barahagaze undi umwe arunamye afite indobo mu ntoki, yambaye ibirenge ateze igitambaro mu mutwe.

Abantu, abo bantu ni batatu. Harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, abo bagore bombi bateze ibitambaro mu mutwe, imbere yabo hari imifuka igerekeranye ifite ibara rijya gusa kake.

Muri abo bantu harimo umugabo n'umugore ndetse n'umwana muto baricaye. Umugore yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, ateza igitambaro mu mutwe, ateruye umwana, iruhande rwabo hari ameza ateretse ibintu byinshi bitandukanye harimo impapuro.

Abantu. Muri abo bantu harimo abagore n'abagabo. Baricaye. Bose bambaye umwambaro wo hejuru, ufite ibara ry'ubururu bwerurutse. Abenshi muri abo bantu kandi bafite amakaye.

Abantu, muri abo bantu harimo abagore, abana bato ndetse n'umugabo, umwe muri abo bagore arahagaze ateruye umwana, yambaye imyenda idoze mu gitenge gifite amabara agiye atandukanye, imbere ye hari umunzani.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, baricaye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi na terefoni zigendanwa.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, inyuma yabo hari igikuta cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, gishushanyijeho abantu, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru ateretseho na mudasobwa.

Umugabo wirabura uri kugaragara igice cy'igihimba yambaye umupira afite amaso yatukuye n'amarira ari gushoka ku matama iminwa ye ijya gusa nkumutuku.

Abantu, muri abo bantu harimo abagore batatu ndetse n'umwana muto, abo bagore bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bateze ibitambaro mu mutwe, ndetse bose bafite inkoni, inyuma yabo hari umusozi muremure, hari n'igiti kirekire, ndetse n'urutoki.

Abantu babiri, abo bantu ni abagabo bambaye imyambaro itandukanye, umwe muri bo yambaye imyambaro icitse naho undi yambaye ishati y'amaboko maremare irimo amabara menshi atandukanye, yambaye n'ipantaro y'umukara. Abo bagabo bahanye imikono.

Abantu benshi. Muri abo bantu, harimo abagore n'abagabo. Bamwe muri bo baricaye, abandi barahagaze. Abenshi muri abo bantu kandi, bambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara. Inyuma yabo, hamanitse icyapa kinini cyanditseho amagambo.

Umuntu, uwo muntu ni umugore ugaragara igice cyo hejuru gusa, ari guseka yambaye amaherena, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, yambaye umwenda w'inyuma ufite ibara rijya gusa ubururu bwijimye, inyuma ye hari icyapa kinini cyanditseho amagambo.

U,muntu uwo muntu ni umugore ugaragara igice cyo hejuru gusa ari guseka, afite umusatsi muke w'umukara, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, yambaye umwenda w'inyuma ufite ibara ry'umutuku.

Abantu benshi batandukanye, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo barahagaze, abenshi muri bo bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse, inyuma yabo hari inyubako.

Abantu basa nk'abafata ifoto y'urwibutso bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye. Iruhande rwabo hari ameza ateritseho ibipapuro, inyuma yabo hamanitse ibintu bisa n'umweru.

Umuntu, uwo muntu ni umugore ukuze, aricaye, ari guseka, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, iruhande rwe hateretse igikombe gifite ibara ry'icyatsi kibisi, imbere ye hari amashyiga ateretseho inkono.

Abantu benshi muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye barahagaze, bamwe muri bo bafite icyapa cyanditseho amagambo kiriho n'ibirango bitandukanye.

Abantu benshi. Abo bantu ni abana bato b'abanyeshuri. Harimo abakobwa n'abahungu. Bari kugaragara igice cyo hejuru gusa. Bambaye impuzankano y'ishuri y'umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umuhondo.

Uwo muntu ni umugabo ugaragara igice cyo hejuru gusa yambaye ishati yamaboko maremare ifite ibara rijya gusa nkubururu bwijimye inyuma ye hari abandi bantu batagaragara neza, uwo mugabo ari guseka.

Icyumba kirimo abantu benshi, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye. Abenshi muri bo baricaye imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro gifite ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru kuri ayo meza hateretseho amacupa y'amazi.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abagore, hari n'umugabo wicaye ku ntebe y'urubaho ye wenyine, yambaye ipantaro yahiniye mu mavi, inyuma yabo hari urutoki ndetse n'ibiti.

Abo bantu ni abana bato bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye muri abo bana harimo abakobwa n'abahungu barahagaze iruhande rwabo hari ibyatsi byumye ndetse n'inyuma yabo hari ibindi byatsi byumye.

Abantu benshi batandukanye muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, abenshi muri bo bambaye imipira y'amako magufi ifite ibara ry'icyatsi cyererutse, bamwe muri bo kandi bafashe icyapa kinini cyanditseho amagambo.

abantu, abo bantu n'abagore babiri bicaye, umwe muri bo ari guseka, yambaye ikanzu irimo amabara abiri harimo ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru, imbere yabo hari ameza.

Abantu batanu, muri abo bantu bane ni abagore undi umwe n'umugabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye baricaye, inyuma yabo hari urutoki, hari n'ibiti birebire, umwe muri bo afite impapuro.

Abantu, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo ndetse higanjemo abana bakiri bato bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, muri abo bana abenshi bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi kibisi, baricaye.

Abantu benshi, abo bantu ni abana bato b'abanyeshuri, harimo abakobwa n'abahungu, bambaye impuzankano y'ishuri ifite amabara atandukanye, abenshi muri abo bana bamanitse amaboko, bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze.

Abantu, abo bantu ni abagore babiri bagaragara igice cyo hejuru gusa, umwe muri bo yambaye amadarubindi, yambaye ikoti ry'umutuku, n’umwenda w’imbere ufite ibara ry'umukara, iruhande rwabo hari ameza manini atwikirije igitambaro cy'ubururu ateretseho amazi na terefone zigendanwa.

Abantu benshi batandukanye muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye barahagaze, imbere yabo hashinze ihema rimanitseho icyapa cyanditseho amagambo.

Abantu babiri, muri abo bantu harimo umwana muto harimo kandi n'umugabo, umugabo yambaye amadarubindi, yambaye agapfukamunwa, yambaye n'imyambaro y'akazi aricaye naho umwana aryamye ku gitanda.

Abantu batatu, muri abo bantu harimo umugore n'umugabo ndetse n'umwana muto, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bose bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari ameza arambitseho impapuro ndetse n'ikaramu.

Umwana wicaye mu ntebe y'ubururu, yambaye ikanzu y'icyatsi irimo utudomo tw'umweru, yambaye agapira k'umweru mo imbere k'amaboko magufiya, arasamye, afite uburoso bwoza amenyo mu kanwa.

Abantu abo bantu ni babiri harimo umugabo ndetse n'umwana muto, bari kugaragara igice cyo hejuru gusa, bombi bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru, abo bantu bose kandi bashyize akagozi k'umweru mu menyo.

Umuntu, uwo muntu ni umugore ugaragara igice cyo hejuru gusa, ari koza amenyo akoresheje uburoso bufite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse, yambaye umwambaro ufite ibara ry'umweru, ari kwireba mu ndorerwamo.

Abantu batandukanye, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo ndetse n'umwana muto, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye barahagaze, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho amagambo.

Abantu batandukanye muri abo bantu harimo abagore n'abagabo ndetse n'umwana muto, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye ,barahagaze, umwe muri abo bagabo yambaye umwambaro w'akazi ufite ibara ry'umweru afashe uwo mwana ku rutugu, inyuma yaho hari ikibaho cyanditseho amagambo.

Uwo muntu numugabo ukuze ugaragara igice cyo hejuru gusa. Afite imisatsi y'umweru yambaye amadarubindi yambaye n'umupira w'amaboko magufi ufite ibara rya gusa nk'ivu. Imbere ye hari indorerwamo nini.

Abantu, abo bantu ni umugore n'umugabo baricaye, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umugabo yambaye amadarubindi, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro, uwo mugabo afite telefone igendanwa mu ntoki.

Umusaza wambaye ishati, ufite umusatsi urimo imvi ndetse n'ubwanwa, yambaye amadarubindi ku maso, yifashe ku kananwa, afite ikaramu mu ntoki ndetse n'ibitabo.

Umusaza wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko maremare, yambaye amadarubindi ku maso, afite umusatsi urimo imvi, yicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga, iruhande rwe hicaye umwana wambaye umupira w'icyatsi kibisi, wicaye mu ntebe.

Abantu babiri, abo bantu ni abagore, umwe muri bo aricaye na ho undi umwe arahagaze, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho ikirahuri cy'amazi.

Umusaza ugaragara nk'ukuze, ufite imisatsi irimo imvi, yambaye amadarubindi ku maso, yicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga, inyuma ye hari umukobwa uri guseka, ufite imisatsi yiboshye ku mutwe.

Abantu babiri, bagaragara nk'abari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo umugore umwe w'umuzungukazi, ufite imisatsi yiganjemo ibara ry'umweru, yambaye isaha ku kuboko, undi ni umugabo wambaye impeta ku rutoki w'umwirabura.

Abantu batandukanye, muri abo bantu harimo abagore, abagabo ndetse n'umwana muto, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye bose bari guseka. Abo bantu baricaye.

Abantu babiri, abo bantu ni abagore bagaragara igice cyo hejuru gusa, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umwe muri bo ari guseka yambaye umwambaro w'akazi ufite ibara ry'ubururu bwijimye.

Umuntu, uwo muntu ni umugabo ukuze, aricaye, yambaye ishati y'amaboko maremare, irimo amabara menshi avanze, yiganjemo ibara ry'umutuku, afite isahani mu ntoki, irimo ibiryo.

Abantu, abo bantu ni umugore n'umugabo bakuze, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umugabo afite telefone igendanwa mu ntoki n'aho umugore afite urupapuro rw'umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho ibintu bitandukanye, harimo ikirahure kirimo amazi.

Abantu abo bantu ni abagore bicaye mu isoko bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye bamwe muri bo bateze ibitambaro mu mutwe imbere yabo hari inyanya ndetse n'inyuma yabo hari ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Abantu babiri abo bantu ni umugabo n'umugore, umugore ni umuzungu, umugabo ni umwirabura, barahagaze bari kugaragara igice cyo hejuru gusa. Umugabo yambaye amadarubindi ari guseka, yambaye n'ishati y'amaboko maremare.

Umugabo ugaragara nk'ukuze ufite imisatsi n'ubwanwa burimo imvi, afite n'uruhara yambaye ishati y'amaboko maremare afite terefone ngendanwa mu ntoki, iruhande rwe hicaye umugore w'inzobe wambaye umupira w'umukara.

Abantu babiri, abo bantu ni umugore n'umugabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye. Umugore arahagaze, naho umugabo yicaye mu kagare, inyuma yabo hari abandi bantu batagaragara neza.

Abantu, abo bantu ni abagore bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye. Bari gusoroma icyayi, umwe muri bo ateze igitambaro gifite ibara ry'ubururu bwerurutse yambaye n'ikanzu ifite ibara ry'ubururu bwerurutse, inyuma ye hari igitebo kinini.

Umugabo wicaye ku buriri busashwe n'amashuka y'umweru, yambaye ishati y'amaboko maremare n'amadarubindi ku maso. iruhande rw'iwe hari umu umugore umufashe mu mugongo ndetse no mukiganza ni umuzungukazi.

Abantu babiri, abo bantu ni abagore bari kugaragara igice cyo hejuru gusa bose bari guseka, umwe muri bo yambaye amadarubindi, yambaye umupira w'amaboko maremare ari gukata imboga.

Abagore babiri, umwe yambaye igitambaro mu mutwe, undi yambaye ipantaro ndetse n'ikote byo mu ibara ry'ubururu bwijimye afite imisatsi yuboshye ku mutwe bagaragara nk'abari gutambuka iruhande rwabo hari ibiti.

Abantu. Muri abo bantu higanjemo abagore. Harimo n'abana bato ndetse n'umugabo umwe. Bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye. Baricaye, bicaye mu byatsi.

Abantu babiri batandukanye, umwe muri bo ni umusore ukiri muto, undi ni umugabo ukuze, uwo mugabo yambaye amadarubindi, yambaye n'umupira w'amaboko magufi, imbere yabo hari ameza y'umweru ateretseho ibikombe, bafite igitabo mu ntoki.

Abantu abo bantu ni abagore batatu, baricaye bari kugaragara igice cyo hejuru gusa bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye bari guseka, babiri muri bo mu ntoki bafite amakarita ndetse n'imbere yabo hari ameza arambitseho amakarita.

Abantu batandukanye, abo bantu ni abagore bakuze, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, abenshi muri bo bicaye hasi, na ho abandi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru.

Abantu, abo bantu ni babiri, harimo umugabo ukuze ndetse n'umwana muto, bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye, uwo mwana yambaye ishati y'amaboko magufi, irimo amabara menshi avanze.

Abantu babiri, abo bantu ni umugabo ndetse n'umwana muto w'umukobwa, bari mu kibuga, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umwana afite umupira mu ntoki, inyuma yabo hari inyubako, hari n'ibiti.

Abantu babiri bicaye abo bantu ni umugabo n'umugore bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, uwo mugabo yambaye amadarubindi bose bari guseka abo bantu bombi kandi bafite umusatsi w'umweru.

Abantu, abo bantu ni babiri, harimo umugore ukiri muto ndetse n'umugabo ukuze, uwo mugabo yambaye amadarubindi, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu bwerurutse, abo bantu bombi baricaye.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abana ndetse n'abantu bakuru, hari abicaye mu ntebe, abandi bahagaze inyuma yabo, bari mu cyumba gifite ibikuta by'umweru ndetse n'ubururu.

Abantu babiri. Abo bantu ni umugore n'umugabo, umugore arahagaze naho umugabo aricaye. Imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umweru ateretseho mudasobwa ndetse n'ikirahuri kirimo amazi.

Umugore ugaragara nkukuze yambaye amaherena mu gutwi ,yambaye isaha ku kuboko yicaye mu kagari k'abantu babana n'ubumuga iruhande rwe yicaye undi mugore wicaye mu ntebe ye, yamufashe ukuboko.

Abantu babiri, abo bantu ni umugore n'umugabo bakuze bari kugaragara igice cyo hejuru gusa, bombi bambaye imipira y'amoboko maremare ifite ibara ry'umutuku, imbere yabo hari ameza y'umweru arambitse ibinini, igikombe ndetse n'amadarubindi.

Abantu, abo bantu ni babiri ni umugore n'umugabo bakuze bagaragara igice cyo hejuru gusa baricaye, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bombi bambaye amadarubindi, imbere yabo hari ameza ateretseho ibiryo ndetse n'ikirahuri cy'amazi.

Abantu, abo bantu ni babiri harimo umugore n'umugabo baricaye bambaye imyambaro ifite amabara aagiye atandukanye, umugabo yambaye amadarubindi, yambaye n'ishati y'amaboko maremare ifite ibara rijya gusa umutuku.

Umukecuru ufite imisatsi irimo imvi, wambaye umupira wo mu ibara ritukura, yicaye iruhande rw'umusaza ufite umusatsi urimo imvi, imbere yabo hari ameza ateretseho agacupa k'umweru ndetse n'ikirahuri cy'amazi.

Abantu, abo bantu ni batatu, babiri muri bo ni abana bato naho undi umwe ni umusaza baricaye, bicaye imbere y'umuryango bambaye imyambaro ifite amabaro agiye atandukanye.

Abantu babiri, abo bantu ni umugore n'umugabo, barahagaze, umugabo yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu bwerurutse, yambaye n'ikabutura y'umukara, uwo mugore afashe uwo mugabo ku rutugu.

Abantu, abo bantu ni batatu, babiri muri bo ni abagore, naho undi umwe ni umugabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, barahagaze, imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umweru ateretseho amasahani.

Umuntu, uwo muntu n'umugore ukuze, ari kugaragara igice cyo hejuru gusa, afite umusatsi w'umukara, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ryo gusa kake, ari guseka, inyuma ye hari abandi bantu batagaragara neza.

Umugabo ugaragara nkukuze ufite imisatsi irimo immvi anambaye amadarubindi ku maso, yambaye ishati ndetse n'umupira afite ikaramu mu ntoki imbere ye hari ameza ariho ikaye.

Abantu, abo bantu ni babiri ni umugabo ukuze ndetse n'umugore ukiri muto. Bari kugaragara igice cyo hejuru gusa, bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye. Umugabo afite ikirahuri mu ntoki kirimo amazi.

Abantu abo bantu ni babiri umugore n'umugabo bakuze bari kugaragara igice cyo hejuru gusa bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro cy'umutuku, ateretseho ibiryo ndetse n'ikirahure cy'amazi.

Abantu, abo bantu ni babiri, muri abo bantu harimo umugore ndetse n'umwana muto w'umukobwa, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, baricaye, mbere yabo hari ameza.

Abantu, abo bantu ni abagore babiri, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umwe arahagaze, na ho undi aricaye, afite ikirahuri cy'amazi mu ntoki, imbere yabo hari ameza.

Abantu babiri, abo bantu ni abagore bari kugaragara igice cyo hejuru gusa, umwe muri bo aricaye naho undi arunamye bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye bose bari guseka.

Abantu babiri, abo bantu ni abagore, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umwe muri bo arahagaze, nahondi aricaye, inyuma yabo hari igitanda kirimo imisego, hari n'itara.

Abantu. Abo bantu ni babiri, harimo umugabo n'umugore. Bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, barahagaze, abo bantu bombi bafite icyapa mu ntoki, cyanditseho amagambo.

Abantu, abo bantu ni abagore bane bicaye, bose bateruye abana bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, inyuma yabo hari urukuta rumanitseho ibyapa byanditseho amagambo biriho n'amashusho.

Abantu babiri bahagaze muri abo bantu harimo umugore ndetse n'umugabo, bose bambaye amakarita y'akazi mu ijosi bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo kiriho n'ibirango bitandukanye.

Ikinyamakuru, icyo kinyamakuru cyanditseho amagambo manini n'amato, ayo magambo ari mu mabara agiye atandukanye: hari ari mu ibara ry'umukara n'ari mu ibara ry'umweru, kuri icyo kinyamakuru kandi hariho ishusho.

Umuntu, uwo muntu ni umugabo, arahagaze yambaye ingofero yambaye n'amadarubindi, yambaye umupira w'amaboko maremare, uwo mugabo afite urupapuro runini mu ntoki, rwanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu benshi batandukanye, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo ndetse n'abana bakiri bato, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, abenshi muri bo bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'iroza, bambaye n'udupfukamunwa, bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze.

Abantu bane, muri abo bantu babiri ni abagore, abandi babiri ni abagabo, bose bambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru, abo bantu bose kandi bafashe icyapa mu ntoki cyanditseho amagambo.

Abantu batandukanye muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, baricaye bose bambaye udupfukamunwa dufite amabara atandukanye, imbere yabo hari ameza arambitseho impapuro.

Abantu babiri muri abo bantu ni abagabo baricaye, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi ndetse n'indangururamajwi, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo kiriho n'ibirango bitandukanye.

Abantu, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye bicaye ku rubaraza, kuri urwo rubaraza hariho icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Umugabo wambaye ikote n'ipantaro, wambaye amadarubindi ku maso, imbere yiwe hari indangururamajwi, iruhande rwe hari icyapa kinini kiriho ishusho y'umugabo wambaye ikote ndetse n'amadarubindi.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku murongo utambitse, inyuma yabo hari abandi babahagaze inyuma, inyuma hari icyapa cyo mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi cyanditsemo amagambo y'icyatsi kibisi, hejuru mu nguni hari igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda.

Icyumba kirimo abantu batandukanye. Muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, abenshi muri bo baricaye, muri icyo cyumba kandi harimo ibyapa byanditseho amagambo, biriho n'ibirango bitandukanye.

Abantu benshi muri abo bantu harimo abagore ndetse n'abagabo, harimo abirabura n'abazungu, bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze. Bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, abenshi muri bo bamanitse amaboko, inyuma yabo hari icyapa kinini.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, muri abo bantu harimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, muri icyo cyumba kandi harimo icyapa kinini cyanditseho amagambo.

Abantu batanu, bane muri abo bantu ni abagore, naho undi umwe n'umugabo, bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye, barahagaze, nyuma yabo hari inyubako imanitseho ibyapa byanditseho amagambo.

Umuntu wambaye ingofero mu mutwe wicaye ku igare ahetse umugenzi ufite indobo, bari guca iruhande rw'inyubako yanditseho amagambo y'umukara, hejuru hanze hari icyapa cyanditseho amagambo.

Inzu y'igorofa hejuru yanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara hahagazeho abantu iruhande rwayo, hari n'indabo ziteye imbere yayo, kuri iyo nzu hamanitseho icyapa gishushanyijeho umutima.

Abantu benshi batandukanye muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, abenshi muri bo baricaye naho abandi barahagaze, umwe muri abo bantu ni umugabo arahagaze yambaye agapfukamunwa k'umweru, yambaye n'ipantaro ifite ibara ry'umutuku.

Abantu benshi, muri abo bantu harimo abagore ndetse n'abana bato, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye baricaye, imbere yabo hari inzu imanitseho impapuro yanditseho n'amagambo.

Abantu babiri, muri abo bantu harimo umwana w'umukobwa, ndetse n'umugore, bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, baricaye, umugore afite imisatsi miremire iboshye, yambaye agapfukamunwa.

Icyumba kirimo abantu benshi bahagaze nk'abatuze umurongo bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye hateyemo intebe imwe y'urubaho n'izindi ntebe z'umukara ,hari n'umuntu wicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga.

Inyubako, kuri iyo nyubako hejuru hamanitseho icyapa kinini, cyanditseho amagambo, kiriho n'imibare ku muryango w'iyo nyubako kandi, hahagaze umuntu wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'umweru, hari n'umutwazi w'ipikipiki.

Icyumba cyicayemo abantu bambye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe z'imbaho, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikote n'ipantaro by'umukara, iruhande rw'iwe hicaye abandi bantu babiri, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, inyuma hamanitse icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo yo mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu.

Abo bantu ni abagore babiri, umwe muri bo araryamye undi arunamye yambaye amadarubindi. Yambaye umwambaro w'akazi ufite ibara ry'umweru imbere ye hari inzitiramibu.

Abantu benshi muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, baricaye abenshi muri bo bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'umuhondo, naho abandi bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru.

Inzu y'igorofa ifite ibikuta bisize amabara atandukanye, harimo n'ibara ry'ubururu, isakarishijwe amabati yo mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hari imodoka ndetse n'abantu.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo abantu, haruguru yawo hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, cyanditsemo amagambo yo mu ibara ry'umweru, iruhande rwacyo hari inyubako isakarishije amabati yo mu ibara ry'ubururu, hari n'ikigega cyo mu ibara y'umukara kibika amazi y'imvura.

Umuntu, uwo muntu n'umugabo arahagaze, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu bwerurutse, yambaye ipantaro y'umukara, uw'umugabo afashe inzitiramibu.

Abantu babiri, abo bantu ni umugore n'umugabo, umugabo aryamye ku gitanda yambaye ingofero, yambaye agapfukamunwa k'umukara naho umugore arunamye, yambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'umweru.

Abantu babiri, abo bantu ni abagabo barahagaze, bambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'umweru, bose bambaye udupfukamunwa dufite ibara ry'ubururu bwererutse, umwe muri bo yambaye amadarubindi.

Umuntu, uwo muntu ni umugabo, aricaye ari kugaragara igice cyo hejuru gusa, yambaye umwambaro ufite ibara rye gusa ubururu bwijimye, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa ebyiri, imwe muri izo mudasobwa ni ntoya naho indi ni nini.

Icyumba kigaragara nk'icyo kwa muganga, gifite ibikuta by'umweru n'amatara hejuru, hejuru hamanitse inzitiramibu ziri hejuru y'ibitanda, bisasheho amashuka y'umweru n'ibiringiti bya kaki, hari n'umwana wicaye mu kagare k'abantu bafite ubumuga, uri iruhande rw'idirishya.

Abantu benshi batandukanye muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bamwe muri bo barahagaze abandi barasutamye, inyuma yabo hari inyubako isakaje amabati y'ubururu bwererutse.

Umuntu wambaye itabuririya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, ahagaze iruhande rw'inzu ifite ibikuta by'umweru yanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu, hejuru hariho igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda.

Abantu babiri, muri abo bantu harimo umugore n'umugabo baricaye, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, uwo mugabo yambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'ubururu bwerurutse, inyuma yaho hari urutoki.

Icyumba kigaragara nk'icyo kwa muganga, kirimo ibitanda bishasheho amashuka atandukanye, harimo ay'umweruru ndetse n'ay'ubururu, hari bibiri biryamyeho abantu, hejuru hamanitse inzitiramibu hari n'ibitambaro birinda urumuri ku madirishya.

Imbuga ishashemo amabuye, ihagazemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bambaye udupfukamunwa dufite amabara atandukanye mu isura, inyuma yabo hari inyubako yubakishije amatafari ahiye yanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo abantu batandukanye muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye. Bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze umwe muri abo bantu ni umugabo aricaye. Yambaye ingofero y’umukara ndetse n'umupira w’amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu. Imbere ye hateretse ameza ariho ururabo.

Umuntu, uwo muntu ni umugore ugaragara igice cyo hejuru gusa, afite imisatsi miremire y'umukara, yambaye amadarubindi, yambaye agapfukamunwa, yambaye n'amaherena, imbere ye hateretse mudasobwa.

Umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umuhondo, aryamye yubitse inda ku gatanda ko mu ibara ry'umukara, afite umusatsi uboshye ku mutwe, iruhande rwe hahagaze umuntu wambaye ingofero y'umukara n'umupira w'umukara.

Amasahani ariho ibyo kurya bitandukanye, hari isahani iriho amagi ndetse n'inyama, hari indi sahani iriho inkeri imizabibu ndetse n'imineke, n'akandi gatebo gato karimo imboga zitandukanye zirimo n'ibihumyo.

Umugabo uhagaze wambaye isengeri, akora imyitozo ngororamubiri, asobekeranyije amaboko, afite ubwanwa buconze, inyuma ye hari ibirahuri bisa n'umukara.

Umukobwa wambaye impeta isa n'umukara n'inkweto zisa umweru, yicaye hasi akora imyitozo ngororamubiri afashe ku kaguru kamwe, iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi.

Abantu batatu muri abo bantu harimo abantu babiri bakuze ndetse n'umwana muto baricaye, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umukobwa w'umuzungu wambaye agapira ko mu ibara ry'umweru umeze nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rw'iwe hari imbuto zitandukanye zirimo imineke, amacunga ndetse n'imizabibu.

Abantu benshi batandukanye muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bamwe baricaye abandi barahagaze bose bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa.

Umuntu wicaye hasi mu gisambu, wambaye ikabutura iciyemo imirongo y'umweru ku ruhande, n'agapira gato kagaragaza igice cy'umugongo ndetse n'inda, yifashe ku birenge, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wambaye umupira wo mu ibara ry'umukara, uryamye ku gatanda gato ko mu ibara ry'umukara, iruhande rwe hahagaze abantu babiri, umwe amufashe ku mugongo yambaye n'isaha ku kuboko, undi yambaye umupira w'amaboko maremare wo mu ibara ry'umukara.

Abantu babiri. Muri abo bantu harimo umugore ndetse n'umwana muto. Bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, baricaye. Bicaye ku gitanda gisasheho amashuka afite amabara agiye atandukanye.

Umuntu, uwo muntu ni umugore, aricaye yambaye imyambaro y'akazi, ifite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse, yambaye agapfukamunwa, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa n'amakaye.

Abantu bahagaze mu mbuga isashemo amabuye, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bagaragara nk'abari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere yabo hari ibiti birebire.

Umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'agapira gato kagaragaza igice gitoya cy'inda, yicaye hasi yifashe mu ivi ndetse no ku kirenge, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu, uwo muntu n'umugore uhagaze, afite umusatsi w'umukara, yambaye imyambaro y'umweru, afite isakoshi y'ikigina ku kuboko, imbere ye hari ibyatsi bitandukanye.

Isoko ririmo abantu benshi batandukanye, umwe muri abo bantu ni umugabo, arahagaze, yambaye ishati ifite ibara rijya gusa kaki, imbere ye hari ameza ariho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo amacupa ndetse n'amacunga.